Ni abantu bicaye hamwe, bigaragara koko bicaye kuri kompiyuta ya raputopu, hari imbwirwaruhame bakurikiye, hari icyo bari kumva imbere yabo ubona na ko bateze amatwi.

Abantu benshi bari mu nama bakaba bari mu cyumba cy'uruganiriro, aho imbere yabo hari imeza ikaba iteretseho za mudasobwa ndetse n'uducupa twamazi. Imbere hakaba hari icyuma cyabugenewe cyo kwerekana amashusho aricyo bita televiziyo.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'uruganiriro, bakaba bari gukora inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba hari ameza atetseho ibyo kunywa bigiye bitandukanye ndetse imbere yabo hakaba hicaye abantu batatu bari kuvuga.

Umugabo wambaye ishati ifite ibara ry'umweru akaba afite uruhu rwera, iruhande rwera akaba hari umugabo ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'umutekano. Imbere yabo hakaba hari imeza iriho mudasobwa ndetse n'ududucupa tw'amazi bakaba bari mu cyumba cy'uruganiriro bakaba bari gukora inama.

Umugabo wambaye amataratara, akaba yambaye n'ikoti, akaba afite igikoresho cyabugenewe cyo gusakaza amajwi, ari cyo mikoro, akaba ari kuvuga, inyuma ye hakaba hari abantu benshi bicaye bamuteze amatwi.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'uruganiriro, harimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bari mu nama. Imbere yabo hakaba hateretse ameza ariho mudasobwa ndetse n'ducupa tw'amazi. Imbere hakaba hari icyuma cyabugenewe cyerekana amashusho.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'uruganiriro. Muri abo bantu hakaba harimo umuntu ufite uruhu rwerurutse, ku ruhande rwe hakaba hari n'umugore we na we wambaye amataratara na we afite uruhu rwererutse. Ku rundi ruhande hakaba hari umugabo wirabura ufite igitabo mu ntoki ndetse ufite n'amataratara.

Abantu bicaye muri sale, amakupule atandukanye, ameza yabo ariho amazi n'ibitabo biri imbere yabo.

Umugabo wambaye amataratara ndetse n'ingofero ifite ibara ry'ubururu n'umupira w'amaboko magufi, akaba afite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki ze aricyo telefoni, akaba afite na mikoro mu ntoki ze, inyuma ye hakaba hari abandi bantu benshi bahagaze.

Abagore bane bicaye babiri muri bo bambaye imyenda ifite ibara rya orange. Imbere yabo hakaba yateretse imeza ifite igitambaro cy'ubururu, hakaba yateretseho telefoni ndetse n'agacupa k'amazi inyuma yabo hakaba hari imbaga y'abantu benshi bicaye.

Umugore ufite igikoresho cyabugenewe cyo gusakaza amajwi ari cyo bita mikoro, akaba yambaye n'amataratara, akaba ahagaze imbere y'imbaga y'abantu igizwe n'abagore n'abagabo akaba ari kuvuga. Ku ruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye ikoti uhagaze.

Abantu bicaye muri sare, ku meza yabo hariho raputopu, amacupa y'amazi yo kunywa, imbere hahagaze urimo arabaganiriza.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, bakaba bari gukora inama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bafite mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi, imbere yabo hakaba hari imashini yabugenewe yo kwerekana amashusho ari yo bita televiziyo.

Abantu bicaye muri sale y'inama, imbere ku meza hariho amacupa y'amazi yo kunywa, abandi bafite laputopu.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'uruganiriro, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo haba hateretse imeza iriho mudasobwa, uducupa tw'amazi ndetse n'amakayi.

Abantu benshi barahagaze bakoze ikiziga, hakaba harimo abagabo n'abagore, hagati muri icyo kiziga, hakaba hahagaze umugabo uri gutanga imbwirwaruhame, iruhande rw'abo bantu hakaba hari ibyatsi, imodoka ndetse n'ibiti.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'uruganiriro, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari gukora inama, imbere yabo hakaba hari umugabo uhahagaze ari kuvuga ndetse hakaba hari n'icyuma cyabugenewe cyo kwerekana amashusho ari cyo televiziyo ndetse n'ibindi byapa.

Umugabo wambaye ikoti akaba ari kuvuga imbere ye akaba ari meza iteretseho mudasobwa, telefoni ndetse n'uducuupa twa mazi ku rundi ruhande abari abagore babiri bicaye bakaba bari kuvugana n'uwo mugabo.

Abagabo batatu ndetse n'abagore babiri baricaye, imbere yabo hakaba hari meza iteretseho igitambaro cy'umweru, hakaba hateretseho mudasobwa, mikoro ndetse n'uducupa tw'amazi. Bakaba basa nkaho bari mu nama.

Abantu bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu ndetse n'abapanana afite ba rya kaki, bakaba bari mu nyubako ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, imbere y'abo banyeshuri hakaba hari umuntu wambaye ikoti asa nk'aho ari kubabwira.

Imbaga y'abantu harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bahagaze, bakaba bari kwifotoza, abandi bakaba bicaye mu cyumba cy'inama, bakaba bari gukora inama, aho bafite mudasobwa imbere yabo, iyo nama ikaba irimo abagabo ndetse n'abagore.

Abantu bicaye, harimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bari mu cyumba cy'uruganiriro, bakaba bari gukora inama, iyo nyubako barimo inyuma akaba ari icyapa kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Abantu benshi baricaye, harimo abagabo ndetse n'abagore, muri abo bantukaba arimo bambaye imyenda ifite ibara ry'icyatsi, ndetse n'abandi bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, bakaba bicaye bari mu nama.

Abantu batatu baricaye ku ntebe, abandi bane bahagaze inyuma, bakaba bari mu nyubako irimo amakaro ndetse ku ruhande rwabo hakaba hari ibyapa biri mu mabara y'icyatsi umweru ndetse n'ubururu, bakaba bari kwifotoza.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'uruganiriro bakaba bari gukora inama. Hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, mbere yabo hakaba ateretseyo imeza iriho agacupa k'amazi, mudasobwa ndetse n'impapuro.

Umugore ufite igikorero cyabugenewe cyo gusakaza amajwi aricyo bita mikoro ndetse akaba afite n'ikaramu mu ntoki, imbere ye hakaba hatetse mudasobwa, terefoni, ndetse n'agakombe karimo icyayi, ku ruhande rwe hakaba hari undi mugore uhicaye.

Umugabo wambaye ikoti ndetse n'ishati y'ubururu, akaba afite ikaramu mu ntoki, imbere ye hakaba yateretse mudasobwa, telefoni, agacupa k'amazi, ndetse n'ikayi, ku ruhande rwe hakaba hari umugore nawe wicaye, imbere ye hakaba hateretse mudasobwa.

Umugabo wambaye ishati ifite ibara ry'umweru, imbere ye hakaba hari imeza iteretseho agacupa k'amazi ndetse n'igikapu, ku ruhande rwe hakaba hari umugore imbere ye hakaba hateretse mudasobwa ndetse n'agacupa k'amazi, ku rundi ruhande hakaba hari umugabo ufite uruhu rwera, imbere ye na we hakaba hateretse mudasobwa, ku kurundi ruhande hakaba hari abagabo babiri na bo bicaye.

Umugore wambaye ikoti rifite ibara ry'umutuku, akaba afite ikaramu ndetse n'urupapuro, imbere ye hakaba hateretse agacupa k'amazi, inyuma ye hakaba hicaye abandi bantu benshi cyane harimo abagore n'abagabo, bakaba bari mu cyumba cy'inama, bakaba bari gukora inama.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, harimo abagore ndetse n'abagabo bakaba bari gukora inama, imbere yabo hakaba hataretse imeza, iriho uducupa tw'amazi n'ibikoresho by'ikoranabuhanga ari byo terefone.

Abantu benshi baricaye bari mu cyumba cy'uruganiriro harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bari gukora inama, hakaba hari meza iteretseho mudasobwa, uducupa tw'amazi ndetse muri iyo nyubako harimo n'imitako.

Abagabo batatu bicaye mu cyumba cy'inama, umwe muri abo akaba yambaye amataratara ndetse n'ikoti, ku ruhande rwe hakaba hari abandi bagabo babiri na bo bicaye, bisa nk'aho bari mu nama.

Abantu benshi bicaye hamwe, hari abicaye hirya ndetse n'abicaye hino, hakaba n'abandi bane bicaye ku giti bakurikiye imbwirwaruhame iri gutangwa n'umugore, uhagaze imbere uri kubagezaho ijambo.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo nk'amatelefoni ndetse na za mudasobwa. Muri icyo cyumba cy'inama, harimo icyuma cyabugenewe cyo kwerekana amashusho.

Umugabo wambaye ikoti, imbere ye hakaba hateretse uducupa tw'amazi, ku ruhande rwe hakaba undi mugabo wicaye ndetse haka n'undi mugore wicaye ufite uruhu rwera. Bakaba bari mu cyumba cyabugenewe cyo kuganiramo, ndetse hakaba hari n'icyuma cyabugenewe cyo kwerekana amashusho.

sale y'inama yicayemo abaturage benshi, harimo abashinzwe umutekano daso, polise n'abayobozi bari imbere yabo babagezaho ibiganiro.

Abagore babiri ndetse n'umugabo bicaye mu cyumba cy'inama bisa nkaho bari gukora intama, imbere yabo hakaba hateretse imeza, iyo meza ikaba iriho mudasobwa, uducupa tw'amazi, ibikapu ndetse n'amakayi.

Umugabo wirabura wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umutuku, iruhande rwe hakaba hahagaze umugore ndetse ku ruhande hakaba hari umugore wicaye, imbere yabo hakaba hari imeza ifite igitambaro cy'umweru, iruhande rwe hakaba hari abantu benshi cyane harimo abagore n'abagabo ndetse bakaba bari mu nzu yabugenewe yo gukoreramo inama.

Icyumba cy'uruganiriro, kikaba kirimo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bari mu nama, hakaba harimo umugabo ufite mudasobwa ndetse hakaba harimo n'umugore wambaye amarinete uri kwandika mu gatabo.

Umuhungu wambaye umupira w'amaboko magufi uriho amagambo ndetse uriho n'iderapo ry'igihugu, akaba ahetse agakapu. Inyuma hakaba hari umugore w'inzobe wicaye, iruhande rwabo hari uducupa tw'amazi, bakaba bari mu nama.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'uruganiriro, aho bari gukorera inama, barimo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo bakaba hari za mudasobwa, mikoro ndetse n'uducupa tw'amazi, hakaba hari umuhungu uhagaze, ufite igikoresho cyabugenewe cyo gukurura amajwi n'amashusho.

Umugore wambaye amataratara, wambaye imyenda ifite ibara ry'umukara ndetse n'ubururu bwijimye, akaba afite mikoro mu ntoki ze. Inyuma hakaba hari abantu benshi cyane, harimo abagabo ndetse n'abagore, bigasa nk'aho uyu mugore ari gutanga imbwirwaruhame.

Umugabo wambaye ishati y'umukara, akaba afite igikoresho cy'ikoranabuhanga cyabugenewe cyo gusakaza amajwi ari cyo mikoro, imbere ye hakaba hateretse mudasobwa ndetse n'agacupa k'amazi, akaba ari gutanga imbwirwaruhame cyangwa ari gutanga igitekerezo, inyuma ye hakaba hariho abandi bantu benshi bicaye, bakaba bari mu cyumba cy'uruganiriro bari gukora inama.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'uruganiriro bakaba bari gukora inama harimo abagabo ndetse n'abagore. Imbere yabo akaba hari meza itetseho ibikombe uducupa, tw'amazi, mikoro, telefoni ndetse na mudasobwa.

Abantu benshi bicaye mu cyumba k'inama bakaba bari gukora inama, bakaba barimo abagabo ndetse n'abagore, icyo cyumba barimo kikaba kirimo amatara ndetse n'ibyuma byabugenewe byo gusakaza amashusho, imbere yabo hakaba hateretse imeza, hakaba hariho amazi ndetse na za mudasobwa.

Abantu bari mu cyumba cy'uruganiriro bakaba bari gukora inama hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo bakaba bafite za mudasobwa imbere yabo ndetse n'uducupa tw’amazi inyuma hakaba ari icyapa gifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu cyanditseho rura.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'uruganiriro, aho bari gukorera inama. Hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore, hakaba harimo n'abafite imeza iriho mudasobwa, uducupa tw'amazi ndetse n'abari kwandika.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama harimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari gukora inama. Hakaba harimo abafite za mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi, hakaba hari umugabo uhagaze akaba ari kuvuga.

Umugabo wambaye amataratara, wambaye ishati y'amaboko maremare ndetse afite ikaramu mu ntoki akaba ahagaze ari kuvuga, iruhande hakaba hicaye abagabo batatu, inyuma ye hakaba ari icyapa ndetse inyubako barimo irimo itara ndetse ifite n'irangi ry'umweru.

Umugabo wambaye amataratara, wambaye n'ishati y'amaboko maremare, imbere ye hakaba hateretse icupa ry'amazi, akaba yicaye mu cyumba cy'uruganiriro, hakaba harimo n'abandi bantu benshi bakaba bari mu nama.

Abantu benshi bicaye mu nyubako, inyuma muri iyo nyubako harimo icyapa ndetse imbere hakaba hari imeza iriho mudasobwa nyinshi, muri abo bantu hakaba hari umugabo wambaye ishati y'umutuku, undi yambaye ishati y'umweru

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'uruganiriro, harimo abagabo n'abagore ndetse n'abantu bafite uruhu rwera, hakaba hateretse ameza imbere yabo iriho uducupa tw'amazi ndetse n'ibipapuro bisa nk'aho bari mu nama.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'uruganiriro, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bari gukora inama. Imbere yabo hakaba hateretse imeza iriho mudasobwa ndetse n'uducupa tw'amazi. Imbere yabo hakaba hateretse icyuma cyabugenewe cyerekana amashusho aricyo bita televiziyo.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama bakaba bari gukora inama hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore imbere yabo hakaba hariyo imeza iteretseho impapuro uducupa tw'amazi mikoro ndetse na mudasobwa inyuma hari abandi bantu benshi bicaye bose bakaba bari mu nama.

Umuhungu wirabura wambaye amataratara akaba ari gukoresha mudasobwa, iruhande rwe hakaba hari undi muntu wicaye wambaye ingofero ifite ibara ry'umutuku, akaba afite uruhu rwera we akaba ari gukoresha telefoni.

Igisenge cy'inzu gishakaje amategura ya ruriba, hejuru hubatse ibyuma by'umunara birebire cyane.

Umunara w'ikigo cy'itumanaho ufite amabara atukura, umweru; ukikijwe n'urugo, imbere harimo ibyuma bigiye bitandukanye byubakiyemo.

Sitatisitike yakozwe n'ikigo cya RURA kigaragaza uko interineti yagiye ikoreshwa mu umwaka ku wundi, guhera bibiri na cumi, kugeza bibiri na cumi n'umunani.

Uburyo bwo kwirinda indwara ya korona virusi, aho bategera imodoka rusange, kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, gukaraba intoki, gushyiramo intera hagati y'umuntu n'undi, kudasuhuzanya, kwambara agapfukamunwa.

Abantu bahagaze bakaba bambaye imyenda iri mu mabara y'icyatsi ndetse na orange bakaba bari kubaka ku ruhande rumwe hakaba hari ibyuma ndetse hakaba hari n'ijerekani.

Abanyeshuri bicaye mu cyumba k'ikoranabuhanga, imbere yabo ku meza hari mashini za l''aptop'' barimo bariga isomo rya ''ICT''.

Umugore uhagaze iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, akaba afite umufuka ndetse n'ibasi, iruhande rw'uwo mugore hakaba hari ibiti byinshi, hakaba hari n'ipoto ndetse hakaba n'icyapa ndangamerekezo.

Ikinyabiziga cyabugenewe gutwara abagenzi benshi, kikaba kiri mu mabara y'umweru, ubururu ndetse n'icyatsi, kikaba kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, muri uwo muhanda wa kaburimbo hakaba hari abanyonzi bahagaze.

Umutekinisiye w'amashanyarazi yuriye ipoto y'igiti, yiziritse imigozi y'ubwirinzi, yambaye inkweto z'ibyuma zimufasha, arimo arazirika neza.

Ipoto rishinzwe gusakaza amashanyarazi mu baturage, iruhande rw'iryo poto hakaba hari inyubako ebyiri, zifitemo amabara y'icyatsi. Inyuma y'iryo poto hakaba hari inyubako, ndetse nyuma y'inyubako hakaba hari igiti kinini.

umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, harimo nk'amapikipiki ndetse n'imodoka zabugenewe zo gutwara abagenzi benshi, ku ruhande hakaba hari abantu benshi cyane bahagaze ndetse hakaba harimo n'amapoto ndetse n'amatara.

Ipoto ryabugenewe gusakaza amashanyarazi mu baturage, iruhande rw'iryo poto hakaba hari ibiti, indabyo ndetse n'ibyatsi, ku ruhande hakaba nari igipangu gifite icyapa ndetse n'indi nzu kundi ruhande.

Igice cy'inzu hejuru inyuraho imigozi y'amashanyarazi myinshi, umwe unyura ku ruhande ujyana umuriro mu rugo.

Igipangu gifite ibara ry'ubururu cyandikishije amagambo y'umukara, iruhande yaho hakaba hari indi nyubako ndetse hakaba hari n'icyapa gifite ibara ry'umu ndetse n'umukara, inyuma y'izo nyubako hakaba hari ipoto rirerire rishinzwe gusakaza amashanyarazi mu baturage, ku ruhande rw'iyo poto hakaba hari igiti.

Inyubako itangirwamo serivise, haragaragara intebe abantu bicaramo mu gihe bategereje serivise igihe batari bakirwa ndetse hakagaragara imiryango abantu bagenda bategererejeho.

Umugore uhagaze, akaba ari kuvugira kuri telefone, akaba afite ibintu mu ntoki, ku ruhande rwe hakaba hari inyubako ndetse n'imodoka, k'urundi ruhande hakaba hari abantu bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo.

Igikorwa remezo cya leta, ivuriro, hahagaze imodoka ebyiri, imwe pikapu, indi ambiransi itwara abarwayi.

Umuntu wambaye umupira w'amaboko maremare arahagaze, iruhande rwe hakaba hari itara ryo ku muhanda, inyuma ye hakaba hari inyubako ndetse hakaba hari n'indabyo, imbere ye hakaba haparitse ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Inyubako igaragaza ibitaro bikuru bya Kaminuza y'u Rwanda iherereye i Huye shehashibe, parikingi irimo imodoka nyinshi cyane.

Ni inyubako ya leta itangirwamo serivisi zitandukanye. Hari n'icyapa kiyobora abantu mu cyerekezo bashaka kujyamo, hakaba na jaride ndetse na kizimyamwoto izimya inkongi y'umuriro.

Umwana ubana n'ubumuga, akaba yicaye mu kagare kabugenewe, akaba yambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo. Akaba afashe ku cyuma iruhande rwe hakaba hari abantu babiri bicaye, inyubako ndetse n'ibiti.

Abantu benshi bari kugenda, harimo abagore, abagabo ndetse n'abantu bafite uruhu rwera, bamwe muri bo bakaba bambaye udupfukamunwa, ku ruhande rwabo hakaba hari inyubako yanditseho ibitaro bya Masaka ndetse hakaba hari n'abandi bantu bahagaze.

Umugore wambaye ibitenge aricaye, imbere ye haparitse ibinyabiziga bitatu, bibiri biri mu mabara y'umweru, ikindi kiri mu ibara ry'umutuku ryijimye, ku ruhande hakaba haparitse n'igare, ku rundi ruhande hari abantu bari kugenda.

Abakozi bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'umutekano barahagaze, ahantu bari hari imodoka nyinshi ziparitse ndetse ziri mu mabara y'umweru, ivu ndetse n'umukara, ahantu kandi bari hari inyubako ndetse n'abandi bantu bari kugenda.

Abantu benshi barahagaze, harimo abagabo ndetse n'abagore, ku ruhande akaba ari imodoka zabugenewe zo gutwara abarwayi mu gihe bagize ikibazo, ku ruhande hakaba hari inyubako.

Imodoka zabugenewe zo gutwara abarwayi mu gihe byihutirwa babajyanye kwa muganga, zikaba ziparitse zikaba zifite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku. Inyuma yazo kaba ari igikuta, inyubako ndetse n'ibiti.

Abagabo bambaye udupfukamunwa, bambaye imyenda ifite iba rya oranje, imbere yabo hakaba bateretse mudasobwa, ndetse bakaba bicaye. Inyuma hakaba hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ndetse n'umuntu ukora mu nzego z'umutekano.

Umuntu wambaye ikanzu ifite ibara ry'umukara, akaba afite ibipapuro mu ntoki, iruhande rwe hakaba hari imeza iriho mudasobwa ndetse iruhande rw'iyo meza hakaba hahagaze undi muntu wambaye imyenda y'umukara, hakaba hari abandi bantu bicaye ku ntebe.

Abagabo benshi bahagaze bakaba bambaye udupfukamunwa ndetse n'imyenda ifite iba ry'iroza, ku ruhande hakaba hari umuntu uhahagaze wambaye agamunwa, akaba ari umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'umutekano, ku rundi ruhande hakaba hari ibiti ndetse hakaba hari n'imodoka.

Abantu bari mu rukiko harimo abagabo ndetse n'abagore. Akaba ari umugabo wambaye ikoti ndetse ku ruhandereba rw'abagabo babiri bambaye amakanzu y'umukara inyuma hakaba n'abandi bantu bitabiriye uwo muhango.

Abantu bicaye ahantu hamwe, bamwe bari hirya abandi bari hino, bategeye amatwi uri imbere yabo arimo arabaganiriza afite n'urupapuro asoma.

Umugabo wambaye umwenda w'umutuku arahagaze, iruhande rwe hahagaze umuntu wambaye ikanzu y'umukara, ku rundi ruhande hahagaze umugore nawe wambaye ikanzu y'umukara, imbere ye hari abantu babiri bicaye bafite mudasobwa, bakaba bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubutabera.

Umugabo wambaye ingofero akaba afite uruhu rwera ndetse akaba yambaye n'ikanzu, iruhande rwe hakaba hari abantu bamuherekeje, bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'umutekano, inyuma hakaba hari imodoka.

Umugore wambaye ikanzu ifite ibara ry'umutuku ndetse n'ingofero ifite ibara ry'umukara, akaba yicaye, imbere akaba ari umuhungu uri kwandika, akaba yambaye ikanzu ifite ibara ry'umukara ndetse irimo n'amabara y'umweru, inyuma ye hakaba undi muntu uhagaze ndetse hakaba hari n'abandi bantu benshi bicaye.

Umugabo wambaye amatatara ndetse n'ishati y'umukara, akaba afite icupa ry'amazi mu ntoki ze kandi akaba yambaye n'amapingu, ku ruhande rwe hakaba hari umugabo ukora mu nzego z'umutekano akaba afite n'imbunda mu ntoki ze.

Umugore wambaye amataratara akaba yambaye n'ikanzu ifite ibara ry'iroza ndetse akaba yambaye n'amapingu, ku ruhande rwe akaba ari kumwe n'umugore w'umukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'umutekano, inyuma yabo hakaba hari imodoka ndetse n'undi mukozi ukorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'umutekano.

Abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, bakaba bari mu nama, hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore. Umwe mu bantu bari aho mu nama, akaba ahagaze, akaba ari gutanga imbwirwaruhame cyangwa ari ukuvuga igitekerezo cye. Inyuma hakaba hari imeza nini ndetse n'icyuma cyabugenewe cyo gusakaza amajwi...

Umugabo wambaye imyenda ya roza, akaba afite ibitabo mu ntoki ze, ku ruhande rwe hakaba hari abantu babiri umugore n'umugabo, bakaba bambaye udupfukamunwa, bambaye amakanzu afite ibara ry'umukara ndetse n'abafite impapuro mu ntoki bakaba bicaye ku ntebe, inyuma habaka hari n'abandi bantu benshi.

Umugabo wambaye agapfukamunwa ikoti rifite ibara ry'umukara, iruhande rwe hakaba hari abantu bashinzwe umutekano bambaye imyenda y'umukara, inyuma yabo hakaba hari imodoka ndetse hakaba hari n'undi mugabo uhagaze wambaye agapfukamunwa n'ishati y'umweru ndetse ahantu bari hakaba hari imodoka ndetse n'inyubako.

Ikizingo cy'umugozi muremure gishyirwa ku nyubako zigiye zitandukanye kugira ngo bazacyifashishe mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Umukozi w'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'umutekano mu gihugu, ahagaze mu muhanda, hakaba hari n'abandi bantu bari kugenda, harimo umugore ufite isakoshi ndetse n'umuhungu wambaye umupira ufite ibara ry'umutuku, ufite agapfunyika mu ntoki ze, ku ruhande hakaba hari umuhanda wa kaburimbo ndetse n'abandi bantu benshi bari kugenda.

Abakozi babiri bahagaze, bakaba bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'umutekano, bakaba bafite ikinyabiziga kiri mu mabara y'umweru. Ku ruhande hakaba hari ikindi kinyabiziga kiri mu mabara y'umweru ndetse n'inyubako iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo.

Amacupa abiri, maremare, atukura, aba arimo porodagitsi zifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, akaba ashyirwa ku nyubako zigiye zitandukanye.

Imodoka ifite ibara ry'umukara n'umweru, akaba ari iy'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'umutekano, ikaba iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo, muri uwo muhanda wa kaburimbo hakaba hari kugenderamo ibindi binyabiziga nka moto ndetse n'imodoka, ku ruhande hakaba hari kugendera abanyamaguru.

Umuntu wambaye imyenda afite ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi, imbereye hakaba hateretse ikinyabiziga, bikaba bisa nkaho ari kwereka abandi bantu. Inyuma yabo bantu arikwereka, akaba ari abasekite bashinzwe gucunga umutekano.

Umupolisi uri mu muhanda yambaye impuzankano y'akazi, yatambitse akaboko k'ibumoso ku kinyabiziga ashaka guhagarika, iruhande rwe hatambuka moto itwaye umugenzi.

Umuhanda munini hakurya y'umuhanda hari inzu nini icururizwamo ibintu bitandukanye hari icyapa cy'amata n'icyapa gicuruza farumasi n'imiti itandukanye.

Ikizingo cy'umugozi kizingiye ku rukuta rw'inzu, bagikoresha igihe habayeho inkongi y'umuriro, kiri kumwe na kizimyamwoto iruhande rwaho.

Abakozi babiri bakorera ikigo gishinzwe gutanga serivise z'umutekano barahagaze, imbere yabo hari ipikipiki ifite ibara ry'umweru, imbere yabo na none hakaba hari imodoka ifite iba ry'umweru, inyuma yaho hakaba hari umukobwa wambaye umupira w'umutuku bari kugenda, ku ruhande hakaba hari kaburimbo ndetse n'izindi nyubako.

Umumotari utwaye ipikipiki, akaba ari umukozi w'ikigo kiza utanga serivisi z'umutekano, akaba ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande hakaba hari ikinyabiziga gihagaze gifite iba ry'ivu, ku ruhande hakaba n'ibiti byinshi.

Imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, akaba ari iy'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'umutekano, zikaba ziparitse. Ku ruhande rwazo hakaba hari iyindi modoka iparitse ndetse hakaba hari umuntu uri kugenda n'amaguru, inyubako ndetse hakaba hari n'igiti.

Abaturage barahagaze abandi baricaye bateze amatwi uri imbere yabo arimo arabagezaho imbwirwaruhame.

Umugore wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru, imbere ye hakaba hateretse mikoro, ku ruhande rwe hari abantu babiri bahagaze, ku rundi ruhande hakaba hahagaze umuntu umwe, inyuma hakaba hari amadirishya ndetse imbere hakaba hari igitambaro kirimo amabara y'icyatsi ndetse n'umweru.

Abantu benshi batonze imirongo ibiri, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, inyuma yabo hakaba hari ibiti byinshi ndetse n'inyubako, bakaba bahagaze ku matafari akozwe muri sima.

Umugabo wambaye ikoti rifite ibara ry'ubururu ryijimye, akaba yambaye n'amataratara, imbere ye hakaba hari agacupa karimo amazi. Iruhande rwe hakaba hari umugore bakaba basa nk'abari kuganira. Inyuma yabo hakaba hari abandi bantu benshi nabo bari kuganira.

Umugore wirabura wambaye amataratara wambaye n'ikanzu ifite ibara ry'ubururu, imbere ye hakaba hateretse mikoro, inyuma ye hakaba hari abagore babiri bicaye, inyuma yabo hakaba hari icyapa gifite ibara ry'ubururu kiriho amagambo afite ibara ry'umweru, bigasa nk'aho uyu mugore ari gutanga imbwirwaruhame.

Abaturage bahuriye ahantu hamwe, bamamaza ishyaka rya FPR ndetse n'umukandida waryo Paul Kagame urimo hagati yabo.

Nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yasetse, yambaye rineti, ikoti ndetse n'ishati na karuvati.

Ikirango cya Repubulika y'u Rwanda ya kabiri, kigizwe n'amabara atukura, umuhondo, ubururu, ishusho y'inyoni n'uducumu turi hejuru ku mpande.

Abantu bahuriye hamwe bamamaza ishyaka bashyigikiye bafite amadrapo agaragaza ibyapa by'iryo shyaka ndetse n'amabara agize iryo shyaka bashyigikiye.

Umuntu uhagaze wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'umweru, iruhande rwe haba undi muntu wicaye ku ntebe y'icyatsi akaba yambaye imyenda y'umukara iruhande rwabo hakaba umukobwa uhagaze, yambaye ikoti rifite ibara ry'umuhondo.

Umuhungu wirabura akaba afite icyapa mu ntoki ze hakaba hariho ifoto ndetse hariho n'amagambo agiye atandukanye, iruhande rwe hari umugabo, umugore bakaba bafite amadarapo mu ntoki, inyuma yabo hakaba hari abantu benshi.

Umugabo wirabura wambaye ikoti n'ishati y'umweru, imbere ye hakaba hateretse igikoresho cyabugenewe cyo gusakaza amajwi, iruhande rwe hakaba hari umuhungu uhahagaze wambaye ishati y'amaboko maremare n'amataratara, inyuma ye hakaba hari abagore babiri bicaye ndetse n'intebe z'icyatsi.

Umubyeyi azamuye amaboko hejuru, arambuye ibiganza bye, yambaye ikanzu irimo amabara, umweru, ubururu, umusatsi wa natirere ku mutwe we.

Abantu benshi bahagaze ku marapo y'igihugu bakaba bari kurahira, hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, ahantu bari hakaba hari imashini yabugenewe kwerekana amashusho ndetse hakaba hari n'abandi bantu benshi.

Umugabo wambaye ishati ifite ibara ry'umweru, akaba afite icyuma cyabugenewe cyo gusakaza amajwi, aricyo mikoro ndetse n'imbere ye yatetse n'izindi mikoro nyinshi cyane, ku ruhande rwe hakaba yicaye umugabo ndetse kurundi ruhande hakaba hicaye umugore.

Umuhanda wa kaburimbo, hakaba hari kugendwamo n'ipikipiki ndetse n'imodoka ifite ibara ry'umukara, ku ruhande rw'uwo muhanda hakaba hari umugore wunamye ushinzwe gukora mu muhanda ndetse hakaba harimo n'ibiti n'indabyo.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara abagenzi benshi, kikaba gifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara kikaba giparitse muri gare. Iruhande hakaba hari akazu kabugenewe k'abagenzi bategererezamo bisi.

Imodoka yabugenewe yo gutwara abagenzi benshi, ikaba iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ikaba ifite ibara ry'umweru ndetse muri uwo muhanda hakaba hari kugendamo n'ibindi binyabiziga bisa, ku ruhande rw'uwo muhanda hakaba hari abagenzi babiri bari kugenda n'amaguru.

Ipikipiki iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande rwayo hari inyubako zigiye zitandukanye, ku rundi ruhande hakaba hari ipikipiki iparitse ndetse inyuma y'izo nyubako hari inyubako ndende bari kubaka.

Ikinyabiziga cyabugenewe gutwara abagenzi benshi, kikaba gifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, kikaba kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwacyo hari ibindi binyabiziga ndetse hari n'umuntu uri kugenda.

Ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru cyabugenewe cyo gutwara abagenzi benshi, kikaba giparitse, ku ruhande hakaba hari umuntu wambaye umupira ufite ibara ry'umweru, uhetse igikapu ndetse no ku rundi ruhande hakaba hari n'abandi bantu bahagaze.

Umuhanda munini wa kaburimbo ugendamo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka nini zitwara ibintu, into, moto zikoreshwa muri tarasiporo.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara abagenzi benshi kikaba gifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, kikaba giparitse, inyuma hakaba hari ikindi kinkinyabiziga ndetse hakaba n'abantu bari kugenda mu muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba uri kugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo igare, ipikipiki ndetse n'ikindi kinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara imitwaro, iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari ibiti byinshi.

Imodoka yabugenewe yo gutwara abagenzi benshi ikabiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ikaba ifite ibara ry'umweru, ku ruhande rw'iyo modoka hakaba hari abantu benshi bari kugenda ndetse hakaba hari na sitasiyo ya esansi.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara abagenzi benshi, gifite ibara rya orange ndetse n'umweru, kikaba kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Iruhande rwacyo akaba ari umuntu uri kugenda n'amaguru akaba yambaye ingofero ufite ibara ry'umutuku.

Umumotari arahagaze, imbere ye haparitse amapikipiki menshi ku ruhande haragafuka, imbere y'a mapikipiki hari umuntu uri kugenda n'amaguru ndetse amapikipiki akaba afashe ku ipoto.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara imitwaro, gifite ibara ry'ubururu, kikaba giparitse ku muhanda wa kaburimbo. Inyuma yayo hakaba haparitse indi modoka ifite ibara ry'icyatsi. Iruhande hakaba hari inyubako ndende ndetse n'ibiti.

Parikingi ya moto za rifani zitandukanye zihagaze zitegereje abakiriya bazigana kugira ngo zibatwaze imizigo yabo bafite.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara abagenzi benshi, kikaba gifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, kikaba giparitse muri gari, ku ruhande rwayo hakaba hari ikindi kinyabiziga nacyo cyabugenewe cyo gutwara abagenzi benshi.

Igare rikaba riparitse ku muhanda wa kaburimbo, rikaba rihetse udufuka dufite ibara ry'umweru ndetse n'akandi gafuka gafite ibara ry'umuhondo, ku muhanda wa kaburimbo hakaba hari kugendamo ipikipiki itwaye umugenzi.

Imodoka ebyiri ziri mu muhanda, imwe itwara ibicuruzwa, indi igendamo abantu, iruhande rwazo hari umunyamaguru wikoreye umufuka ku rutugu.

Umuhanda wa kaburimbo, hakaba hari kugendamo amapikipiki abiri atwaye abagenzi, imodoka zisanzwe ndetse n'imodoka zabugenewe zo gutwara imizigo, ku ruhande rw'uwo muhanda hakaba hari abanyamaguru bari kugenda, inyubako ndetse n'ibiti.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara abagenzi benshi aricyo bita bisi kikaba giparitse muri gare, muri iyo gare kandi hakaba haparitsemo n'ibindi binyabiziga byabugenewe gutwara abagenzi ndetse hakaba hari n'abantu bari kugenda.

Igice cy'umuhanda giparikamo moto za rifani zitwara imizigo y'abantu, ku ruhande hari umuhanda w'abanyamaguru bagenda.

Umugabo uri kugenda mu muhanda akaba atwaye imizigo, akaba yambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu bwererutse, iruhande rwe hakaba hari ibinyabiziga biri kugenda harimo imodoka ndetse n'ipikipiki ndetse hakaba hari n'abantu benshi bari kugenda mu muhanda ndetse hakaba hari n'inyubako.

Umunyamaguru uri kwambuka umuhanda wa kaburimbo, muri uwo muhondo wa kaburimbo hakaba harimo ibinyabiziga bibiri, kimwe gifite ibara ry'ivu ikindi nacyo gifite ibara ry'umweru iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari igikuta ndetse n'abanyamaguru bari kugenda.

Umunyonzi utwaye imizigo, akaba ari kugenda mu muhanda w'abanyamaguru, ku ruhande rwe hakaba hari ikinyabiziga cya rukururana, kikaba kiri kugenda muhanda wa kaburimbo, ku rundi ruhande hakaba hari imodoka yabugenewe gutwara abagenzi benshi.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara abagenzi benshi kikaba kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ku rundi ruhande hakaba hari ipikipiki itwaye umugenzi na yo iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, uruhande rw'iyo modoka hakaba hari abagenzi bari kugenda.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara abagenzi benshi, kikaba gifite ibara ry'umweru, kikaba kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, muri uwo muhanda wa kaburimbo hakaba hari kugendamo ipikipiki, ku ruhande rw'umuhanda wa kaburimbo hakaba hari ibiti.

Ikinyabiziga gitwaye ibikomoka kuri peteroli, kikaba gifite ibara ry'umuhondo kikaba kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwacyo hakaba hari umunyamaguru uri kugenda ndetse no ku rundi ruhande hakaba hari ibiti.

Imodoka yabugenewe yo gutwara imizigo ikaba ifite ibara ry'umweru, kuri iyo modoka hakaba hariho ibyuma ndetse n'umuntu wicayeho, akaba iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo ndetse muri uwo muhanda wa kaburimbo akaba ari kugendamo n'ipikipiki itwaye umugenzi, iruhande rw'uwo muhanda hakaba ari ibiti ndetse n'umunyamaguru uri kugenda.

Imodoka nini zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, zihagaze muri parikingi zibategereje ngo zibatware aho bagana.

Imodoka iri mu bwoko bw'ivatiri ikaba iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ikaba ifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, ikaba itwawe n'umuntu wambaye umupira ufite ibara ry'umutuku. Iruhande rw'umuhanda hakaba hari ibiti ndetse n'amatara yo ku muhanda.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara abagenzi benshi, kikaba gifite ibara ry'umweru, kikaba kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Muri uwo muhanda, hakaba hari kugendamo ipikipiki itwaye umugenzi, ndetse n'indi modoka ifite ibara ry'icyatsi n'umukara, ku ruhande hakaba hari umugenzi ndetse n'ibiti.

Ikinyabiziga gifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, kikaba kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ndetse muri uwo muhanda, hakaba hari kugendamo amapikipiki atatu, abiri muri yo akaba atwaye abagenzi, iruhande rw'uwo muhanda, hakaba hari umugenzi uri kugenda n'amaguru.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara abagenzi, kikaba gifite ibara ry'umweru, ubururu ndetse n'icyatsi, kikaba kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Ni umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo n'ibindi binyabiziga harimo amagare ndetse n'amapikipiki.

Umuhanda wa kaburimbo, ukaba uri kugendwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, harimo amagare imodoka ndetse n'amapikipiki ku ruhande, hakaba hari sitasiyo ya lisansi ndetse n'abantu bari kugenda mu muhanda bisanzwe.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara abagenzi benshi, kikaba gifite ibara ry'umweru ndetse hakaba hariho ibyapa biri mu mabara y'ubururu ndetse n'umutuku. Icyo kinyabiziga kikaba kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo, muri uwo muhanda wa kaburimbo hakaba hari kugenderamo amapikipiki abiri.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara imitwaro kikaba gifite ibara ry'umukara ndetse n'ubururu, kikaba kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, muri uwo muhanda wa kaburimbo hakaba hari kugendamo ipikipiki itwaye umugenzi, iruhande rw'iyo kaburimbo hakaba hari abagenzi, imodoka ndetse n'inyubako.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara abagenzi benshi, kikaba gifite ibara ry'ubururu, umweru ndetse n'icyatsi kikaba giparitse, iruhande rwacyo hakaba hari ikindi kinyabiziga bimeze kimwe, aho hantu ibyo binyabiziga biparitse, hakaba hari abantu benshi cyane.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara abagenzi benshi kikaba gifite ibara ry'umweru kikaba kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo iruhande rw'icyo kinyabiziga mu muhanda wa kaburimbo hakaba hari kugendamo n'ikindi kinyabiziga gifite ibara ry'umuhondo cyabugenewe cyo gutwara imizigo myinshi.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara abagenzi benshi, kikaba gifite ibara ry'umweru, ubururu ndetse n'umukara, kikaba kiri kugenda ariko nta bagenzi gifite ndetse kiri kugendera mu muhanda wa kaburimbo inyuma hakaba hari umusozi.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara abantu benshi gifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, kikaba kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, muri uwo muhanda wa kaburimbo ndetse hakaba hari kugendamo abanyamaguru ndetse n'igare.

Ibikorwaremezo, umuhanda ugendamo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka nini zitwara ibintu, abamotari ndetse n'abagenda n'amaguru.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara abagenzi benshi, kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, kikaba gifite ibara ry'ubururu umweru ndetse n'umukara. Ku ruhande rw'uwo muhanda hakaba hari umugenzi uri kugenda afite igare rye ndetse hakaba hari n'ibiti.

Moto ya rifani yanditseho madeni Rwanda iparitse mu muhanda, iruhande rwayo hari imodoka ya hiyase n'abantu bagenda n'amaguru.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara imizigo myinshi kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, kikaba gifite amabara y'umweru ndetse n'umuhondo, muri uwo muhanda wa kaburimbo hari kugendamo n'ibindi binyabiziga bigiye bitandukanye harimo imodoka, ipikipiki ndetse n'amagare.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara imitwaro myinshi, kikaba gifite igisanduka kinini kiri mu mabara y'ubururu, ku ruhande hakaba hari umunyamaguru uri kugenda, ku rundi ruhande hakaba hari amapikipiki ari kugenda.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara imizigo myinshi, kikaba gifite ibara ry'umukara ndetse n'ubururu, kikaba kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rw'uwo muhanda wa kaburimbo hakaba hari ibiti ndetse n'abantu bahagaze ku itara ryo ku muhanda.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo kwikorera imizigo, kikaba kikoreye imizigo ndetse gifite n'ibara ry'umweru, kikaba kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ndetse no muri uwo muhanda, hakaba hari kugendamo amapikipiki ndetse n'ibindi binyabiziga, ku ruhande hakaba hari inyubako.

Umuhanda wa kaburimbo hakaba hari kugendamo amapikipiki ndetse n'imodoka, ku ruhande rw'uwo muhanda akaba ari abanyamaguru bari kugenda ndetse hakaba hari n'ibiti, ku rundi ruhande hakaba hari inzu ifite igikuta gifite ibara ry'umutuku.

Ipikipiki itwaye umugenzi ikaba iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, muri uwo muhanda hakaba hari abantu bari kwambuka ahabugenewe ndetse ipikipiki n'ikindi kinyabiziga bikaba biri kuwugendamo, iruhande rw'uwo umuhanda hakaba haparitse ibinyabiziga ndetse hakaba yari n'ipoto rishinzwe gusakaza amashanyarazi ndetse n'amatara yo ku muhanda.

Ikinyabiziga cyabugenewe cyo gutwara abagenzi benshi, kikaba gifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi. Kikaba giparitse mu muhanda wa kaburimbo. Inyuma yayo, hakaba hari abantu bahagaze ndetse n'ikindi kinyabiziga.

Ni abantu bahuriye ahantu hamwe, bamwe bicaye iburyo abandi ibumoso, umwe arahagaze ari kuri telefone haragaragara n'undi urimo uragenda urabona ko bose bicaye hamwe buri muntu ahuze ukwe.

Akazu gakozwe mu mbaho kakaba kicayemo abantu bagiye batandukanye harimo abagore n'abagabo, uruhande rumwe hakaba hari abagore babiri bari kugenda ndetse no ku rundi ruhande hakaba abantu benshi bari kugenda, hakaba hari inzu ifite ibyapa, hakaba hari ibiti ndetse n'indabyo.

Inzu ifite ibara ry'umuhondo ikaba yubatse iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo imbere yayo hakaba hari abagenzi bari kugenda n'amaguru ndetse hakaba hari n'ibinyabiziga biparitse mu muhanda wa kaburimbo inyuma yayo hakaba hari umuhanda w'ibitaka ndetse hakaba hari ibinyabiziga biparitse ndetse n'abantu bahagaze.

Abana bane bari gukina umupira w'amaguru, akaba yambaye umupira w'icyatsi, undi akaba yambaye umupira w'umukara, undi akaba yambaye umupira w'umutuku ndetse n'undi akaba yambaye umupira w'umweru, iruhande rw'icyo kibuga hakaba hari ibiti ndetse n'inyubako.

Ikibuga gikinirwamo Basiketi, hakaba hateyemo agapaniye kajyamo umupira, iruhande rwaho hari jaride n'ibiti biteyemo.

Umuhanda wa kaburimbo, hakaba hari kugendamo ibinyabiziga byabugenewe gutwara imizigo myinshi. Iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari ibyapa biri mu mabara y'umweru, icyatsi ndetse n'umukara, akaba ari ibyapa ndangamerekezo. Ku ruhande hakaba hari undi muhanda ndetse n'ibiti.

Icyapa gishyirwa ku muhanda, kiburira abayobozi b'ibinyabiziga, yuko imbere ari umuhanda wigiye hejuru barushaho kugenda bitonze.

Umuntu uhetse igikapu akaba ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande rwe hakaba hari umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ibinyabiziga by'ubwoko bugiye butandukanye harimo imodoka ndetse n'amapikipiki, iruhande rw'umuhanda hakaba hari inyubako z'ubucuruzi.

Igice cy'imiturire giherereye mu mujyi wa Kigali, Kimironko kwa Nayinzira, kirimo amazu atandukanye, etage n'iziciye bugufi, hateyemo ibiti hagati yayo.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo ibinyabiziga by'ubwoko bugiye butandukanye, harimo imodoka, ipikipiki ndetse n'ibinyabiziga byabugenewe byo gutwara abagenzi benshi. Iruhande rw'uwo muhanda, haba hari inyubako, ibiti ndetse n'abagenzi.

Ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, harimo amapikipiki atwaye abagenzi ndetse n'amagare, ku ruhande hakaba hari ibinyabiziga biparitse aribyo imodoka ndetse hakaba ari n'inyubako ndetse n'abagenzi bari kugenda bisanzwe.

Ikinyabiziga gifite ibara ry'ivu kikaba kiri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rw'uwo muhanda wa kaburimbokaba hakaba hari inyubako z'ubucuruzi nini, zikaba ziriho ibyapa bigiye bitandukanye.

Inyubako nini akaba ari inyubako ya banki, ku ruhande hakaba hari ibyapa biri mu mabara y'ubururu ndetse no ku rundi ruhande hari umumotari uparitse ategereje umugenzi ndetse hakaba hari n'indabyo.

Santire yo mu giporoso iherereye i remera. Kaba hari abamotari baparitse, abantu bagenda n'amaguru, insinga z'amashanyarazi n'amapoto yazo.

Imodoka ifite ibara ry'umukara, ikaba iparitse imbere y'inyubako ndende, ku ruhande rw'iyo modoka hakaba haparitse indi modoka ifite ibara ry'ivu no ku rundi ruhande hakaba haparitse indi modoka, imbere hakaba hari abantu bari kugenda mu muhanda ndetse n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo ipikipiki itwaye umugenzi.

Ikiraro kigizwe n'imihanda ibiri, umwe unyura hejuru undi hasi, urimo abamotari batwaye amamoto n'umunyamaguru ugenda mu ruhande rwe.

ipikipiki iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo muri uwo muhanda wa kaburimbo hakaba hateretsemo amapoto abiri iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari abagenzi bari kugenda ndetse hakaba hari n'ibiti byinshi bigiye bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba uri kugendamo ipikipiki ndetse n'igare ritwaye umugenzi, ku ruhande rw'uwo muhanda wa kaburimbo hakaba hari umunyamaguru uri kwigendera ndetse no ku rundi ruhande rw'umuhanda, hari abanyamaguru benshi bari kugenda ndetse hakaba hari ibiti ndetse n'amatara yo ku muhanda.

Ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka, amapikipiki ndetse n'ibinyabiziga byabugenewe mu gutwara imizigo myinshi, bikaba kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande rw'umuhanda, hakaba hari ibiti byinshi.

Imodoka ebyiri zikaba ziparitse, imwe ifite ibara ry'umukara ndetse n'indi ifite ibara ry'ivu zikaba ziparitse mu muhanda w'ibitaka. Ku ruhande hakaba hari inyubako, ibiti ndetse n'abanyamaguru.

Akayira k'abanyamaguru hakaba harimo igare ndetse n'abagenzi bari kugenda ,iruhande rwaho hakaba hari ibyatsi ndetse n'ibiti ku rundi ruhande hakaba hari umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ibinyabiziga ndetse akaba hari n'icyapa.

Imodoka ya rukururana ikaba iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Muri uwo muhanda wa kaburimbo hakaba hari kugendamo n'ibindi binyabiziga bitandukanye, harimo ipikipiki ndetse n'amamodoka, ku ruhande hakaba haparitse igare ndetse n'akazu k'abantu baba bategereje gufata bisi.

Abagabo batatu n'umugore umwe, bakaba bari kwambuka umuhanda wa kaburimbo bari kwambukira ahabugenewe. Ku ruhande hakaba hari amapikipiki abiri ari kugenda, ku rundi ruhande hakaba hari ibiti ndetse n'ibindi binyabiziga bigiye bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba urimo amatara yo ku muhanda. Ku ruhande rw'uwo muhanda hakaba hari ibiti byinshi ndetse no kundi ruhande hakaba hari ibiti ndetse n'ibyapa biranga amerekezo ndetse n'inyubako.